Iki ni icyapa kigaragaza umwe mu bishingizi mu Rwanda, bishingira ibinyabiziga ndetse bakabitabara mu gihe bigize ibibazo nk'impanuka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Iki ni ikirangantego cya banki nkuru y'u Rwanda, kikaba gikoze mu ishusho y'ikigori, kikaba kibarizwa ku mafaranga igiceri cya mirongo itanu y'u Rwanda.

Aha ni ahagurirwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye nk'amata, amazi, ji, icyayi ndetse n'amandazi n'ibindi byo kurya bitandukanye.

Uyu ni umwe mu bashinzwe kugaragaza ibibanza bigurishwa mu umujyi wa Kigali, iki kikaba ari ikibanza kiza kandi kigurishwa, giherereye mu mujyi wa Kigali aho bita Imusave Bumbogo, kikaba kigurishwa ku mafaranga miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda gusa.

Iyi ni inyubako ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda gusa ikaba ifite ibyumba bibiri by'uburuhukiro cyangwa se ibyumba bibiri byo kuraramo ikagira n'ubwogero bubiri iherereye Kibagabaga.